Iyingiyi ni inama irimo abaturage bicaye ku ntebe z'imbaho, hakaba hariho n'umuntu uhagaze bisa naho ariho afite ibyo ari kubasangiza, hirya yaho hariho ameza, imbere yabo hakaba hicaye abasirikare.

Umuntu urimo kugaragaza umuco wo guhinga, akaba afite isuka ku rutugu, ayifatishije amaboko yombi, akaba arimo guseka, ndetse akaba yambaye n'ingofero mu mutwe, akaba ahagaze ahantu hasa naho ari mu murima.

Aha ngaha hagaragara ikintu kimeze nk'ubukwe, kicayemo abasaza barimo kugaragaza umuco wo kunwera mu ducuma, ndetse bakaba bicaye mu kidara gifumishije ibitambaro by'ubururu, by'umukara, n'ibyumweru . Mo hagati hakaba hashinzemo igiti ndetse n'utundi tuntu tw'imitako dukoresheje ikidara.

Aha haragaragara umuhanda ariko noneho ubundi ukaba umeze nka gare. Hakaba harimo abanyonzi bafite amagare batwara nk' abantu. Hakaba harimo n'imitaka ya MTN na Eyateli bicuruza ndetse n'abantu benshi bameze nk'aho wagira ngo ni mu isoko ndetse n'abandi bantu barimo kugurishirizamo ibintu.

Imodoka yo mu bwoko bwa Ritiko, ikaba ihagaze ku muhanda, ikaba iri kwinjirwamo n'abagenzi bafite iyo bagiye, ndetse n'abandi bari gusohokamo bakaba bageze aho bajya.

Aha ngaha ni aho abantu bategera bigaragara rero ko harimo abagenzi benshi bakeneye gutega, ndetse n' imodoka nyinshi zitegereje abantu bo gutwara, muri izo modoka kandi hakaba harimo n' umushoferi ndetse n' izindi modoka bisa n' aho ziri kwinjirwamo n' abantu.

Imodoka, bigaragara ko ari iyifashishwa mu bukerarugendo, ikaba irimo kugendera ahantu hameze nk’aho ari mu ishyamba. Bigaragara y’uko ari nk’abakerarugendo bari baje gusura imisozi nyarwanda, kuko hirya yaho hariho ibirunga, ndetse akaba hasi hariho n’igishanga, wagira ngo ni mpande y’Ibirunga.

Ahangaha haragaragara ikibuga cy'umupira w'amaguru, hakaba hahagazemo abakinnyi bakoze uruziga bisa naho bafite ibyo bari kuganiraho, hakaba hari n'udusikariye abantu bazamukaho bagiye kwicara. Muri sitade hakaba harimo n'abafana.

Ikibuga cya vole kirimo abakinnyi barimo gukina bahagaze mu kibuga, ndetse n'abandi bakinnyi babiri bazamutse hejuru kuri fire. Umukinnyi umwe agiye gutera balo, ndetse n'undi nawe wazamutse wa nimero icumi nawe akaba agiye kuboroka hejuru kuri fire y'umweru.